Radiant ni ikigo gishinzwe guha abantu ubwishingizi bw'abantu n'ibintu, amamodoka, amazu ndetse n'ibindi, gifitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi, ubwishingizi bukenerwa n'abantu benshi batandukanye, bukora ibintu byinshi bitandukanye ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

N i abantu bane bari mu runywero rw'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Umupapa yambaye ikote ry'umukara, undi yambaye ishati ya bulesiyeli, umumama yambaye ikanzu y'umutuku, asutse inyweri mu mutwe, bishimiye gusangira.

Ni umugabo yambaye ishati y'umukara, ari ahari utubati tunini cyane turimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Ategereje abamugana ngo abakire kandi abafashe.

Ni isakazamashusho ebyiri kandi ngari, imwe irimo amabara y'ubururu n'umweru, indi irimo amabara y'icyatsi n'umweru, hari n'itara ku ruhande ndetse n'abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye umupira w'ubururu.

Ni mu kabari, hari amacupa menshi ari mu tubati, hari ay'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ay'ibinyobwa bidasembuye, hari n'imfunguzo ziri ku meza.

Ni ahantu heza hicaye umugabo, wicaye ku ntebe ndende wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, ari kuganira n'umucuruzi amubaza ibintu bigiye bitandukanye.

Nikirango kinini kiri imbere y'inzu nini, kigaragaza ubwoko bw'ikinyobwa gisembuye, nikinyobwa kinkwebwa n'abana barengeje imyaka cumi numunani y'ubukure, kandi kikankwebwa n'abakuru murugero.

Abantu benshi barimo umugore ndetse n'abagabo umugore araganira, abagabo harimo uwambaye ishati y'umweru n'uwambaye ishati y'umukara.

Intebe ni igikoresho cyiza gikozwe mu giti, cyifashishwa kwicarwaho, ahantu hatandukanye, mu birori, mu makwe, mu mashuri, mu mahoteli no mu ngo bisanzwe, zikaba ingirakamaro ku mbaga nyamwinshi.

Ameza ariho ibirahura n'amakanya akoreshwa mu kwakira abantu no gufata amafunguro n'ibinyobwa , ni ingenzi cyane mu birori, mu ngo z'abantu mu mahoteri n'ahandi hatandukanye.

Ni ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, ibiribwa ni: inyama, inkoko ndetse n'ibindi. Ibinyobwa ni ikinyobwa gisembuye kiri mu kirahure, hakabaho n'uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ni ibirango bibiri bigaragaza ahantu ndetse n'ibintu bitandukanye, kimwe kigaragaza ikinyobwa gisembuye, ikindi kigaragaza amazina yanditseho zuba.

Ni abanyamahanga bari gusangira kandi baryohewe, kuko bari kubazanira amafunguro n'ibinyobwa, kandi bishimiye kuba bari kumwe, bicaranye, baganira.

Urupapuro rw'umukara. Ruriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni uburyo bwiza bwo kureba ibicuruzwa ndetse n'ibiciro by'aho wasohokeye. Mu buryo b'ikoranabuhanga, bwihuse kandi bworoshye.

Ni akabati kanini harimo ibinyobwa bitandukanye, hari ibinyobwa bisindisha cyangwa se bisembuye hari n' ibidasembuye, n' intebe imbere yako n' ameza magari ndetse barategereje ko ababagana babakira.

Umwana w'umukobwa ari gutambuka yambaye umupira w'umweru, imbere ye hari ikirango kinini kigaragaza ubwoko bw'ikinyobwa gisembuye ndetse kiri imbere y'inzu y'ubucuruzi, hari n'ibinyabiziga i ruhande rwayo.

Ni abagabo babiri bicaye ku ipikipiki, umwe ni umutwazi, undi ni umugenzi, umutwazi yambaye umwenda w'akazi w'umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umukara, uwo ahetse yambaye ipantaro y'ubururu n'ikoti ry'icyatsi kibisi.

Akabari ahantu heza hari imashini yitwa mudasobwa ndetse hari n'izindi mashini zishinzwe gukonjesha ndetse no kugumisha ibizirimo ari bizima.

Ni urutonde runini ruriho ibyokunywa ndetse n'ibyoku kurya, urutonde rugaragaza ibiciro byabyo kugira ngo ababagana babashe gusomaho barebe icyo bifuza ndetse icyo bari bwake.

Ni ikirango kinini kiri kuranga cyangwa se kigaragaza ubwoko bw'ikinyobwa gisindisha, cyangwa se gisembuye n'umugabo utambuka wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikigina.

Ni ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda rukorera mu Rwanda hose, hakaba hariho n'ikirango kinini hariho n'uburyo bwo kwishyuriraho mu muyoboro wa emutiyene.

Ni umusore mwiza. ufite umusatsi mwinshi. Yambaye umwenda w'akazi, ari wo twita itaburiya. Ndetse n'ishati y'umukara. N'isaha cyangwa imbaragihe ku kuboko. Ari gukora ikawa. Kandi iryoshye. Imeze neza.

Intebe iri ahantu heza. Kandi hari amatara meza, arimo amabara y'ubururu n'umutuku, ndetse n'umweru. Hahagaze umuntu wambaye ishati, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ni urutonde runini, rukoreshwa ahantu hatandukanye nko mu mahoteri , mu birori n'ahandi. Ni urutonde ruriho ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo.

Ikibaho kifashishwa mu bigo by'amashuri mu kwigisha amabanyeshuri yaba mu mashuri mato n'ayisumbuye, kifashishwa n'ahandi hatandukanye nko kuranga ahantu cyangwa ibintu mu mbaga nyamwinshi.

Ni urutonde ruriho ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya hashushanyijeho ibirahure bibiri binini ndetse n'ibiba birimo n'ibiciro byabyo uko babigurisha.

Ni umugabo ari mukazi ke ari kuvanga ibinyobwa bigiye bitandukanye kugira ngo ahereze ubikeneye. Ari mukazi, yambaye umwenda w'akazi ndetse n'ishati y'umweru.

Abantu babiri barahagaze bambaye imipira y'umweru n'amapanraro y'umukara. Harimo igitsina gore n'igitsina gabo. Bahagaze mu ruriro bategereje abantu babagana ngo babafashe.

Ni ikirango kinini kandi kigari cyane kiriho amagambo menshi ndetse kiriho n'icupa ry'ikinyobwa gisembuye. Ikinyobwa kinywebwa n'umuntu urengeje imyaka cumi n'umunani ndetse kandi mu rugero.

Ibiganza bibiri by'igitsinagore bari gusangira umutobe mwiza ukozwe mu ndimu. Umwe yambaye imitako cyangwa se impeta. Ndetse n'isaha ku kuboko undi afite isahani imbere ye iriho indimu ndetse n'ibitambaro byiza by'imitako.

Ni umugabo ari kureba umupira, yambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara, ategereje abaza gufata amafunguro n'ibyo kunywa, anejejwe no kureba umupira.

Ni igare, ipikipiki hakaba n'imodoka ndetse n'ikirango kinini kigaragaza inzu y'ururiro irimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Ahantu heza hari intebe nziza kandi z'ubwoko bwinshi hari intebe ntoya ndende z'umutuku ndetse n'ingufiya z'umweru hariho ameza ndetse hari n'amatara yaka amabara y'umutuku.

Ni ikirango kinini ndetse kinini cyane, kiri kugaragaza ubwoko bw'ikinyobwa gisindisha, hariho kandi n'ibirahure bibiri birimo icyo kinyobwa kiri kwamamazwa kuri icyo kirango kinini.

Ni akabari keza karimo ibirahure byiza bimanitse neza bireba hasi, ndetse n'amacupa menshi y'ibinyobwa bisembuye, ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane ateye ubwuzu.

Ni ahantu heza hari imitako myiza, hari intebe ndende kandi abantu bariraho ni mu ruriro rugari rurimo abantu benshi b'ingeri zose, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, batanga ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ikindi kintu cyose waba ukeneye.

Ni ahantu hahuriye abantu benshi harimo abanyamahanga cyangwa se abera hakabamo n'abirabura bari kureba ahantu hamwe bari kureba umuntu umwe.

Hari indabo nziza, intebe ndetse n'ameza, hari imitako myiza iri hejuru ku rusenge ndetse n'abakobwa babiri bambaye imyenda y'imikara.

Ni ameza manini ariho ibitambaro byiza. Ndetse ariho impapuro z'isuku, n'ifoke n'icyuma cyangwa se n'ikanya n'icyuma ni inzu y'uburiro ngari kandi nziza.

Ni abagore babiri, umwe asutse inweri z'umutuku n'umukara ndetse afite ikarita mu ntoki ari kwishyura akoresheje uburyo bwiza bw'ikoranabuhanaga bugezweho budasaba kuba ufite amafaranga mu ntoki. Undi ari kumufasha amwereka uburyo bwiza bwo kwishyura.

Ni ikirango kinini kiri hejuru y'inzu , kigaragaza icyo bakorera muri iyo nzu, ndetse hagati y'amazu menshi hari umuyoboro mwiza ndetse hakurya hari n' ibitaro byamamaye mu rwanda biherereye i Nyamirambo .

Ni ameza ndetse n'intebe ndende ziri hafi n'umuryango, biri mun nzu, ni aho barira, ni aho banywera, ndetse ni aho abantu baganirira muri rusange.

Ni icupa rinini riri iruhande rw'ikirahuri ndetse ni icupa ririmo ikinyobwa gisembuye, cyemerewe kunywebwa n'umuntu wese urengeje imyaka cumi n'umunane kandi mu rugero.

Ikirango kinini kigaragaza ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda runini kandi rwamamaye hano mu Rwanda. Ndetse hari n'ikinyabiziga cy'amapine ane iruhande rwacyo.

Intebe ni igikoresho gikozwe mu giti kifashishwa kwicarwaho n'abantu, ahantu hatandukanye mu birori, mu makwe, mu mashuri no mu mahoteri, no mungo bisanzwe ikaba ingirakamaro ku mbaga nyamwinshi.

Ni igikoresho gikoze mu rupapuro cyanditseho ibiribwa n'ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo, ngo ababagana babimenye bityo biborohere kubikoresha kifashishwa ahantu hagiye hatandukanye nko mu mahoteli n'ahandi.

Ni abantu benshi bari mu nzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, bari kuganira, baranezerewe, bishimiye gusangira.

Ni ikirahure kinini ndetse kigari. Kirimo ikinyobwa gisembuye. Ni ikinyobwa kiza ku muntu wese urengeje imyaka cumi n'umunani kandi akanywa mu rugero.

Ni umukobwa, aranezerewe kandi araseka, afite mu ntoki imashini ishinzwe gukura amafaranga ku ikarita mu buryo bw'ikoranabuhanga, yambaye umupira w'icyatsi kandi aranezerewe.

Hari insakazamashusho. Ndetse n'amatara ku ruhande, meza, y'ibara ry'icyatsi. Hari n'ibinyobwa bisembuye. Kandi ni byinshi, biri mu dukabati.

Ni ahantu hanini hari abantu benshi bari gufata amafunguro hari intebe nyinshi ndetse n'ameza, abantu baranezerewe bari gufata amafunguro yo ku manywa kandi baranezerewe hari igitsinda gore n'igitsina gabo.

Ni icupa ry'ikinyobwa kidasembuye kiboneka hose mu Rwanda, ndetse hari n'isakaza amashusho nini abantu barareba umupira kandi baranezerewe ndetse hari n'amatara meza yaka mu ibara ry'icyatsi.

Ni ikirango kigaragaza ikinyobwa gisembuye n'abagabo babiri ndetse n'abagore babiri barishimye cyane, baranezerewe, kandi bari guseka, ndetse barabyina.

Ni icupa ry'ikinyobwa gisembuye, gikorwa n'uruganda virunga. Virunga ni ikinyobwa kiza kubantu barengeje imyaka cumi n'umunani, kandi bakanywa murugero.

Ahantu heza hari amatara meza, ndetse n'isakazamashusho eshatu kandi nini, ziri kugaragaza umupira w'amaguru ndetse abahari barishimye, baraganira kandi baranezerewe.

Ni umugore. Wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umutuku, ndetse yambaye n'imitako ku ntoki. Arangariye mu nsakazamashusho ye ntoya, igendanwa.

Ni umugabo uri mu nzu y'ubucuruzi y'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye yambaye umupira w'umukara aranezerewe afite ibirahure mu ntoki birimo ibinyobwa bisembuye yishimiye kubihereza abaje bamugana.

Ni abagabo bicaye mu kabari baranezerewe bari kureba insakazamashusho bararyohewe. Bambaye imipira y' imikara n' amapantaro y' umweru. Hari n' undi wambaye ishati y' umweru ndetse aho bari ni heza, hari amatara yaka amabara atandukanye.

Ni urutonde rugaragaza ibinyobwa cyangwa ibiribwa n'ibiciro byabyo, bikoreshwa mu mahoteli n'ahandi hose biboneka, bigafasha abantu kumenya ibyo bakeneye n'ibiciro byabyo.

Nj ameza ariho ibintu byinshi ariho icupa rya divayi akabaho ibirahure bibiri ndetse hari n'ibiribwa n'ibirayi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni umugabo wambaye umupira w'imirongo y'umutuku n'umweru arahuze kuko ari gusoma igitabo, gusoma igitabo ni ibintu byiza bigirira imbaga nyamwinshi akamaro.

Ni abantu bicaye mu kabari ni benshi kandi baranezerewe harimo iigitsina gore n'igitsina gabo bari kunywa ibinyobwa bitandukanye nk'ibisembuye cyangwa se ibidasembuye.

Abantu ni benshi kandi banezerewe, bari kureba umupira w'amaguru, kandi n'ingeri zose, igitsina gore n'igitsina gabo, bari kunywa no kurya kandi basangira.

Ibirahure byinshi biri iruhande rw'amacupa menshi y'ibinyobwa bisindisha cyangwa se bisembuye abantu bari kunkwa baranezerewe kandi bararyohewe.

Ni umukozi uri mu kazi, imbere ye hari akabati kanini karimo amacupa y'ibinyobwa bisembuye. Ndetse yambaye umwenda w'akazi n'ishati y'umweru.

Insakazamashusho nini iteretse hejuru y'akabati kanini cyane karimo ibyo kunywa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, insakazamashusho iragaragaza umupira w'amaguru.

Nabantu benshi bari mu inzu y'ubucuruzi bw'imyenda, harimo nabaje babagana barahuze kuko bari gusobanurira abaje babagana, imyenda nigenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu nini y'ubuzi irimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo imyenda y'abagore n'inkweto z'abagore, imyenda ni ingenzi kuko ifasha abantu mu bintu byinshi bitandukanye, bifitiye umumaro imbaga nyamwinshi

Ni akabati karimo inkweto, amabara menshi atandukanye, umutuku, ubururu, umweru ndetse n'ayandi. Ni ingenzi cyane zigirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi icuruza imyenda y'abagore. Harimo imyenda myinshi itandukanye amakote, amajipo, amapantaro ndetse n'ibindi. Imyenda ni ingenzi igirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi, icururizwamo imyenda. Imyenda itandukanye y'abagore n'abakobwa. Amakanzu, imipira, amajipo, ndetse n'ibindi. Imyenda ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni amasakoshi menshi acuruzwa, amasakoshi ni ingenzi cyane, ni ibikoresho by'ingenzi cyane kuko afasha abantu gutwaramo ibintu bagiye ku rugendo. Amashakoshi ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu nini y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bitandukanye harimo imyenda, amakanzu, imipira, ndetse n'ibindi. Imyenda ni ingenzi kuko ifasha imbaga nyamwinshi.

Ni akabati karimo imyenda, imyenda ni ingenzi cyane ifitiye abantu akamaro kuko barayambara bakaberwa. Imyenda ni ingenzi ifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni inkweto z'amabara menshi umutuku, umweru, umukara ndetse n'ayandi mabara. Zigirira akamaro abakuru n'abatoya ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo imyenda y'abakobwa n'iy'abahungu. Ndetse harimo n'inkweto, ubwoko bwinshi. Imyenda ni ingenzi, kuko ufitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga bibiri ibinyabiziga ni ingenzi, bifasha abantu kugera aho bagiye haba kwa muganga mu bigo by'amashuri, mu birori, mu makwe n'ahandi, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

ikinyabiziga ni igikoresho cy'ingenzi cyane, kuko gikora ibintu byinshi; kigeza abantu aho bakeneye kujya: kwa muganga, ku mashuri, mu birori, mu makwe ndetse n'ibindi, ni igikoresho kigirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni ikirango k'ikigo cy'akigera motoro, ni ikigo gicuruza ama modoka, ama modoka nigenzi kuko agirira umumaro imbaga nyawinshi.

Ni ikinyabiziga ni ingenzi mu bantu benshi batandukanye kigirira umumaro abato n'abakuru mukubageza kwa muganga kumashuri kukazi ndetse n'ibindi. Ni ingenzi ku mbaga nyamwinshi.

Ikinyabiziga, ikinyabiziga ni igikoresho cy'ingenzi cyane kuko gifasha abantu mu bintu byinshi. Kugera aho bagiye, abagiye kwa muganga, bagiye ku ishuri, bagiye mu birori ndetse n'ahandi. Ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga bibiri bitandukanye, ibinyabiziga ni ingenzi kuko bifasha abantu kugera aho bagiye, baba abagiye kwa muganga, abagiye mu kazi, abagiye mu bukwe, ndetse n'ahandi ibinyabiziga ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga byinshi bikururana bikorera mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Bizana ibicuruzwa byinshi bikabigeza ku bacuruzi. Ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibinyabiziga byinshi by'umweru bisa, ibinyabiziga ni ingenzi kuko bifasha abantu kugera aho bagiye ndetse n'ibintu byabo kubigeza aho bagiye, ni ingenzi cyane mu mbaga nyamwinshi.

Imodoka nyinshi, amabara menshi. Imodoka zifasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Zigeza abantu kwa muganga, zibageza mu makwe, zibageza mu isoko, mu kazi , zikora ibintu byinshi bitandukanye. Imodoka ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu babiri b'abagabo umwe yambaye ikote rya shokora n'ipantaro ya shokora undi yambaye umupira w'umukara barahuze urabona baganira bahugiye mu byo baganira ibiganiro ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Igikombe kirimo amata. Amata ni ingenzi agirira akamaro abato n'abakuru. Aranywebwa, akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, mu gukora imigati, amandazi, ndetse n'ibindi. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi bw'amata irimo abantu babiri. Umwe yambaye umupira w'icyatsi, undi uw'umutuku, baracuruza ibintu byinshi bitandukanye: amata, amandazi. Amata ni ingirakamaro mu mbaga nyamwinshi.

Igikombe kirimo amata, amata akora ibintu byinshi bitandukanye, mu bikoni, mu birori, kwa muganga, ku mashuri ndetse n'ibindi, amata n'ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni ibicuba bibuganijemo amata, ibicuba ni ingenzi kuko bifasha aborozi kugeza ku bacuruzi amata mu buryo bworoshye, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni akabati karimo ibikoresho bitandukanye; amata, amandazi n'ibindi byinshi bitandukanye. Amata ni ingenzi kuko agirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Amatunda ni imbuto nziza zikunda kuribwa n'ingeri zose, abato n'abakuru akoreshwa mu gukuramo umutobe no kuribwa bisanzwe, agira intungamubiri agirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni umgabo uri kubuganiza amata mu mashini ikusanyirizwamo amata yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantalo y'ubururu ari mu kazi arahuze.

Mukamira ni uruganda rutunganya amata mu Rwanda. Akundwa n'abana n'abakuru, agira intungamubiri nyinshi, akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye: mu ngo z'abantu, aranywebwa, aratekeshwa, abanoka hose mu gihugu.

Ibicuba ni igikoresho cyiza kandi mu muco nyarwanda gifasha kubika amata ndetse no kuyatwara kuyageza aho abayakeneye bose bari mu Rwanda.

Ni ikirango kinini kigaragaraza ibikorwa byose bikorerwa mu ruganda rw'inyange harimo amata, amazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni umwana mutoya kandi ni mwiza, yambaye umwenda urimo amabara y'umutuku yerurutse ndetse n'ubururu, iruhande rwe hari igicuba kibika amata, ndetse n'intebe n'imeza n'abantu babiri bahagaze bari guseka.

Ni igikoresho cyifashishwa mu gukonjesha no kubika igihe kinini ibikoresho bigishyizwemo, harimo nk'amata amazi n'ibindi. Kifashishwa ahantu hagiye hatandukanye, mu ngo z'abantu, mu mahoteli n'ahandi. Ni igikoresho cyiza kandi cy'ingirakamaro ku mbaga nyamwinshi.

Ni amata ari mu gikombe ndetse n'ibiribwa biri ku ruhande ku isahani, ni ifunguro ryiza ry'ingenzi ku bana ndetse n'abakuri. Ni ifunguro rikenerwa igihe gitandukanyue, n'ahantu hatandukanye, nko mu birori, mu mashuri, mu ngo z'abantu ndetse n'ahandi hatandukanye.

Ni umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku, aranezerewe ari mu nzu y'ubucuruzi, yishimiye kwakira abantu baje bamugana.

Isambusa zigira amoko abiri, hari isambusa bashyiramo ibirayi cyangwa se imboga. Hakaba n'isambusa bashyiramo inyama. Ikiribwa kiza gikundwa n'abana ndetse n'abantu bakuru. Kiboneka hose mu Rwanda ndetse no hanze yarwo.

Ni umugore wambaye ishati y'icyatsi, umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara. Afite amafaranga mu ntoki, ari kwishyura ibyo yahashye mu iduka.

Ni ibitwara amazi byinshi by'uruganda rwa jibu, ni uruganda rukora amazi ndetse rukanayatunganya mu buryo bwo kubikwa igihe kirekire no kugezwa ku bayakeneye muburyo bworoshye kandi bwihuse.

Ibicuba ni ibikoresho bibika amata neza bifasha aborozi kugemurira abantu haba mu ngo zabo no mu mazu y'ubucuruzi aho baba baherereye aho ariho hose.

Ni ibikombe biri mu kabati ni ibikoresho by'ingirakamaro ku mbaga nyamwinshi bikoreshwa mu bintu bitandukanye, kunyweramo amata, icyayi, igikoma, amazi n'ibindi byinshi.

Ibicuba n'ibikoresho bibika amata neza, bifasha aborozi kugemurira abantu haba mu ngo zabo cyangwa mu nzu z'ubucuruzi, aho baba baherereye aho ariho hose.

Ni umugabo wambaye umupira w'umweru arishimye ari mu nzu y'ubucuruzi bw'amata yishimiye cyane kwakira abaje bamugana ngo abafashe.

Ibiganza bine by'abantu harimo abagabo ndetse n'abagore. Bari gukora icyo bita ku buzima bwacu, baranezerewe bari barasangira amata. Amata ni ikinyobwa k'ingirakamaro haba ku bakuru no ku bana

Ni ikinyobwa gikorwa n'uruganda rwa niri, gikundwa n'ingeri nyinshi zitandukanye abato n'abakuru, gikoreshwa ibintu byinshi, kiboneka ahantu henshi, ni ikinyobwa kigirira umumaro umubiri gikundwa nimbaga nyamwinshi.

Abantu babiriumucuruza n'umugozi, acuruza ibintu bitandukanye amandazi , ibisuguti, amasambusa, amazi n'amata n'ibindi, ari mu kazi ahereza abantu, bamugana ibyo bakeneye byose.

Amata ni ikinyobwa cyiza kingirakamaro ku mubiri w'umuntu ndetse akundwa n'abana n'abantu bakuru, hari ayo bacisha mu nganda agatunganywa, akabikwa neza mu buryo bwo kugira ngo agere ku bayakeneye neza byihuse kandi bifite isuku.

Ni amashini ikusanyirizwamo amata mu nzu z'ubucuruzi igafasha abantu kubagezaho amata mu buryo bwihuse kandi busukuye ikaboneka ahantu hose mu Rwanda. Ifasha imbaga nyamwinshi.

Uriya muntu ari kubuganiza amata mu bikome, iruhande rwe hari ibikombe byinshi kandi byiza by'amabara meza, hakaba n'imashini ishinzwe kubara ndetse no gutanga amata byoroshye kubayakeneye.

Amata ni ikinyobwa k'ingirakamaro ku bana n'abakuru akoreshwa ibintu byinshi bitandukanye amandazi, imigati, kunywa mu buryo busanzwe, gutekeshwa agira intungamubiri nyinshi agirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni ikinyabiziga cy'amapine ane bihagaze ahahagaragara imodoka n'umugore umwe w'umunyamaguru utambuka wambaye ishati y'umuhondo, ipantaro y'ubururu na madarubindi.

Ni imashini nini ikusanyirizwamo amata kugira ngo agere ku bayakeneye afite isuku, kandi mu buryo bworoshye ndetse hari n'ibindi bicuruzwa byinshi mu iduka hari n'abaguzi ndetse n'abagurisha.

N'ameza n'akabati karimo impapuro zo guhahiramo ndetse n'amagi. Hari kandi n'icyuma cyangwa imashini, ishinzwe kubika amata neza. Ikusanyirizwamo amata kugirango agere ku bayakeneye afite isuku, kandi byihuse.

Jibu ni uruganda rutunganya amazi mu buryo bwo kuyasukura no kuyabika neza akamara igihe kirekire, agira amato n'amanini agakoreshwa ahantu hatandukanye haba mu ngo z'abantu, ahahurira abantu benshi, amazi ni ingenzi mu buzima, haba ku batoya n'abakuru.

Ni abana babriri. Umwe yambaye ishati y'igitenge, undi yambaye umupira w'umukara n'umweru. Baranywa amata, kandi bararyohewe. Amata, ni ikinyobwa kigirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni isashi ikoze mu gipapuro. Ndetse n'amazi iruhande rwayo. Ni amazi atunganywa n'uruganda rwitwa Nili. Rukorera mu Rwanda.

Ni ikirango kinini kiri kugaragaza iduka ry'itwa ikaze, ni iduka ricuruza ibinyobwa by'ubwoko butandukanye harimo nk'amata, amazi, n'imitobe n'imbuto zigiye zitandukanye.

Ni abantu batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, umuhungu umwe yambaye umupira utukura, undi yambaye uw'umukara, umukobwa yambaye umupira utukura, bafite amata akorwa n'uruganda rwa Masaka, barishimye kandi baranezerewe.

Amagi ni ikiribwa kiza kiribwa n'abantu bose abato n'abakuru akoresha mu bintu bitandukanye amandazi imigati no mu ngo z'abantu bisanzwe agira intungamubiri agakoreshwa n'imbaga nyamwinshi.

Ni ikinyobwa kiza akundwa n'abantu bose, abatoya n'abakuru. Agira intungamubiri nyinshi, akoreshwa ahantu henshi hatandukanye. Mungo z'abantu mu bigo by'amashuri, kwa muganga , n'ahandi henshi, agira umumaro mwinshi.

Ni umugabo ndetse n'umugore, umugore yambaye ishati y'umukara n'ijipo y'umukara n'umweru, umugabo we yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, bari kuganira.

Ni umumama, ni umubyeyi ndetse umukobwa bicaye mu iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, hari n'imashini ishinzwe gukusanya amata kugira ngo agere ku bayakeneye neza byihuse kandi bifite isuku.

Isambusa ni ikiribwa, gikozwe mu nyama, ifarini, ibitunguru n'umunyu, ndetse n'ibindi, gikundwa n'abato n'abakuru, gikoreshwa ahantu hatandukanye: mu birori, mu makwe, mu bigo by'amashuri, kwa muganga, mu ngo bisanzwe zikundwa n'imbaga nyamwinshi.

Iyi mashini ikusanyirizwamo amata mu nzu z'ubucuruzi, igafasha abantu kubagezaho amata mu buryo bworoshye, bwihuse kandi busukuye, ikaboneka hose mu Rwanda ifasha imbaga nyamwinshi.

Ni umuntu wambaye ikanzu y'ubururu n'ingofero ya kaki, acuruza ibyo kunywa bidasembuye harimo icyayi, amata n'ibindi bigirira imbaga nyamwinshi akamaro.

Amata ni ikinyobwa cy'ingirakamaro ku bana n'abakuru, akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, amandazi, imigati no kunywa mu buryo busanzwe, agira intungamubiri, agirira imbaga nyamwinshi akamaro.

Amandazi ni ikiribwa cyiza gikozwe mu ifarini, isukari, amagi n'amata, gikunzwe n'ingeri zose abana n'abakuru. Kigira intungamubiri nyinshi, kigira akamaro ku mbaga nyamwinshi.

Inyange ni uruganda rutunganya amata mu Rwanda, akundwa n'abana n'abakuru, agira intungamubiri nyinshi, akoreshwa mu bintu bitandukanye mu ngo z'abantu, aranywebwa, aratekeshwa, aboneka hose mu gihugu.

Imashini ikusanyirizwamo amata kugira ngo aba afite isuku, aze kugera ku bayakeneye neza kandi byoroshye. Ndetse n'umukobwa, n'umugabo, n'abana babiri, bari kuganira.

Ni impapuro z'isuku zikoreshwa ku meza, zirakenerwa cyane, zikoreshwa ahantu hatandukanye, haba mu birori, mu makwe, mu mahoteli, mu ngo z'abantu bisanzwe, zigira umumaro mwinshi kandi zikundwa n'abantu kuko zikora isuku neza.

Amata. Amata ni ikinyobwa cyiza cyane, ni ingirakamaro ku bato n'abakuru. Amata anyobwa ahantu hatandukanye, haba ku mafunguro ya mugitondo ndetse n'ayandi yose. Yifashishwa ahantu hagiye hatandukanye nko mu bigo by'amashuri, kwa muganga, mu mahoteli n'ahandi.

Indobo ebyiri, imwe irimo amandazi, akaba ari ikiribwa cyiza gikorwa mu ifarini, amagi n'amata n'ibindi, indi ndobo nayo irimo umutsima, umutsima bawutekera mu ifuru bakawutsa ndetse hariho n'igikoresho cyagenewe gufata amandazi n'imitsima mu buryo bufite isuku.

Ni amata akorwa n'uruganda rwa Masaka akundwa n'abato n'abakuru akoreshwa ahantu hatandukanye mu birori, mu bigo by'amashuri, kwa muganga n'ahandi ni ingirakamaro mu mbaganyamwinshi.

Ni umustima ukozwe mu ifari n'amata n'amagi. Utekwa mu ifuru, ukoreshwa ahantu hatandukanye, nko mu birori, mu bigo by'amashuri, mu makwe, kwa muganga, no mu ngo z'abantu bisanzwe. Ukundwa n'abana n'abakuru.

Abagabo babiri bateruye igicuba. Bari kubuganiza amata mu mashini y'ikusanyirizo y'amata. Bari mu kazi! hari n'umubyeyi wambaye imyenda y'imituku, ndetse n'undi mugabo uhagaze ku ruhande.

Ni igikoresho kifashisha ahantu hagiye hatandukanye giteye mu nzu kifashishwa kubikwamo ibinyobwa nk'igikoma' icyayi amazi n'ibindi kugira ngo bigume bishyushye kandi bimeze neza gikenerwa ahantu hatandukanye kandi bigira akamaro ku mbaga nyamwinshi.

Amandazi ni ikiribwa cyiza, gikozwe mu ifarini, isukari, amagi n'amata, ni ikiribwa gikunzwe n'abana n'abakuru, kigira intungamubiri nyinshi, kikagirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Hari igiti cyiza ndetse cyakuze kandi gihingirwa. Hakaba umwana w'umusore urimo arareba uko babuganiza amata.

Imashini ishinzwe gukusanyizwamo amata bakayageza kubayakeneye afite isuku neza kandi vuba, hari n'amazi yo kunywa akorwa n'inganda zitandukanye hano mu Rwanda.

Akabati karimo ibinyobwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakabamo n'ibisuguti n'ibindi byifashishwa mubuzima bwaburi munsi .

Amata ni ikinyobwa kigirira akamaro abana n'abakuru, akoreshwa mu bintu byinshi: imigati, amandazi no kunywa mu buryo busanzwe, agira intungamubiri mu mbaga nyamwinshi, hariho n'ayo bacisha mu nganda mu buryo bwo kubikwa igihe kirekire.

Teremusi ni igikoresho cyifashishwa mu kubika ibinyobwa, nk'amata, icyayi, igikoma, amazi, n'ibindi. Mu buryo bwo kugira ngo bigume bishyushye. Gikoreshwa ahantu hatandukanye, mu ngo z'abantu, kwa muganga, mu mahoteri, n'ahandi hatandukanye.

Ni umutsima ukozwe mu ifarini, isukari, amagi n'amata uribwa ningeri zose abana n'abakuze, ukunda kunyweshwa amata.

Ni ikirango kinini cyanditseho amata y'inyange amata agira amoko abiri hari ikivuguto hari n'inshyu, hari n'acishwa mu nganda kugira ngo atunganwe abikwe igihe kirekire.

Amata ni ikinyobwa cyiza gikundwa n'abato n'abakuru ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu no ku mbaga nyamwinshi agira amako abiri hari ikvuguto hari n'inshyushyu yose ni meza ku mubiri w'umuntu.

Umubyeyi usutse inwere ndetse afite igikombe cy'amata, hari n'imashini ishinzwe gutunganya ndetse gukonjesha no kubika ibiyirimo igihe kirekire.

Ni amata, amata agira amoko abiri. Agira ikivuguto n'inshyushyu, ndetse hari n'abantu benshi, kandi na bo bari kunywa bigaragara baryohewe.

Ni ikiribwa cyiza, gikozwe mu ifarini, amagi n'amata, gikunzwe n'ingeri zose; abato n'abakuru, gifite intungamubiri nyinshi, gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni ikirango kinini kigaragaza inzu y'ubucuruzi y'ibikomoka ku mata bikorwa n'uruganda rwitwa Inyange rukorera mu Rwanda hose.

Ni urupapuro rw'ingenzi rwifashishwa ku meza mu gufungura amafunguro atandukanye , amandazi, imigati, capati n'ibindi. Ni urupapuro rw'ingirakamaro mu mbaga nyamwinshi.

Indobo isigayemo amandazi abiri ndetse arimo n'igikoresho kifashishwa mu gufata amandazi mu gufata amandzai ukayafatana isuku utayakozeho.

Ni umubyeyi wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umutuku, ari kubuganiza amata ayakura mu ndobo ayashyira mu gicuba gito ndetse aranezerewe araseka.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo icyuma gikusanyirizwaho amata y'uruganda rwa Mukamira, imiryango yaho irakinguye, kugira ngo ababagana babashe kwinjira babafashe icyo bakeneye.

Ni intoki z'umuntu, zifasha umutsima ukozwe mu ifarini, amagi n'amata. Ufashwe mu rupapuro rw'isuku rwo ku meza rwabugenewe, rukoreshwa n'abato n'abakuru, rugira imbaga nyamwinshi akamaro.

Abana babiri hari uwambaye ishati y'igitenge ndetse n'uwamabaye umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru, bari kunywa amata bari kuyarisha umutsima ndetse baryohewe.

Ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye biri mu kabati, bikorwa n'inganda nyinshi zigiye zitandukanye, nk'Inyange, na Nili, n'ibindi. Ni ibinyobwa bidasembuye, kandi nibyiza ku bana ndetse no ku bantu bakuru.

Capati ni ikiribwa cyiza gikozwe mu ifarini amata n'amagi n'ibindi, kifashishwa ahantu hatandukanye mu bitaro, mu bigo by'amashuri, mu birori n'ahandi, gikundwa n'abato n'abakuru, kandi ni ingirakamaro kumbaga nyamwinshi.

Ni ibiribwa byitwa isambusa ni ibiribwa byiza bikorwa mu ifarini, inyama ziseye, ibitunguru, amavuta n'ibindi, ni ibiribwa bikundwa n'abana n'abakuru kandi bikenerwa ahantu hatandukanye nko mu makwe, ibiror,i mu mashuri, kwa muganga n'ahandi.

Umugore arahagaze yambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'inkweto z'icyatsi afite igikapu ndetse giteretse ku meza hafi y'intebe.

Ni agasahane ka parasitiki gafukuye, gashinzwe gushyirwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Impapuro z'isuku, uduti tw'amenyo n'ibindi byinshi bitandukanye. Gakenerwa ahantu henshi hatandukanye nko mu ngo, mu mahoteri, ahahurirwa abantu benshi n'ahandi hatandukanye.

Amata ni ikinyobwa kiza. Amata agira ubwoko bubiri, agira icyo bita inshyushyu ndetse n'ikivuguto. Amata ni meza ku mubiri w'umuntu, anywebwa n'abato n'abakuru kandi ni ingirakamaro.

Ni inkongoro ziri hejuru y'akabati, inkongoro zifashishwa n'aborozi mu kubuganiza amata yabo kugira ngo bayageze ku bayanywa asukuye.

Ni akabati kariho ikirango kinini, kiriho umwana w'umwana w'umukobwa uri kunywa amata. Ndetse araseka kandi yayisize ku munwa, amata ni meza ni ingirakamaro cyane ku bana n'abakuru.

Ni umugabo wambaye umupira wa ruje borudo n'ikabutura y'umukara. Ari iruhande rw'imashini ikusanyirizwamo amata. Ari kwakira abaje bamugana ngo abafashe.

Amandazi ni ikiribwa kiza gikozwe mu ifarini, isukari, amagi n'amata ni ikiribwa gikunzwe n'abana n'abakuru, kigira intungamubiri kigirira akamaro imbaga nyamwinshi

Ni mutsima ukozwe mu ifarini, amata, amagi, utekwa mu ifuru ndetse n'ikiganza gifashe igikombe kirimo amata meza, ari gufata ifunguro rye ry'umunsi.

Amandazi ni ikiribwa kiza k'ingirakamaro, gikundwa n'abato n'abakuru, gikoreshwa ahantu hatandukanye, gikorwa mu ifarini, amata, amagi n'ibindi, kandi gikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ni inzu cyangwa se ni iduka ry'ubucuruzi, ririho ibirango binini by'uruganda Inyange, rutunganya ibikomoka ku mata byose, bagira ibintu byiza kandi bihendutse.

Inyange ni uruganda rutunganya amata, mu Rwanda akundwa n'abana n'abakuru, agira intungamubiri nyinshi kandi akoreshwa mu bintu bitandukanye mu ngo z'abantu aranyobwa, aratekwa, aboneka hose mu gihugu.

Amata agira ubwoko bubiri: inshyushyu n'ikivuguto. Anyobwa n'abana n'abakuru, agira intungamubiri nyinshi. Akenerwa ahantu hatandukanye: mu ngo z'abantu bisanzwe, ku mashuri, kwa muganga, no mu mahoteli. Akagirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Amata ni ikinyobwa k'ingirakamaro ku bana n'abakuru, akoreshwa mu bintu byinshi, mu mandazi, mu migati no kunywa bisanzwe, agira intungamubiri ku mbaga nya mwinshi, hariho ayo bacisha mu nganda mu buryo bwo kubikwa igihe kirekire.

Ni agasahani gafukuye karimo amagi atatu amagi ni ikiribwa kiza k'ingirakamaro ku bana ndetse no ku bantu bakuru ni ikiribwa gikenerwa ahantu henshi hatandukanye nko mungo z'amantu, mu bigo by'amashuri kwa mugsanga, mu mahoteli n'ahandi.

Isambusa ni ikiribwa cyiza gikozwe mu nyama ziseye, ifarini, umunyu, n'amavuta ,gikundwa n'abato n'abakuru, gikoreshwa ahantu hatandukanye. Mu biriri, mu makwe, mu bigo by'amashuri, kwa muganga, mu ngo z'abantu bisanzwe, zikundwa n'imbaga nyamwinshi.

Ni abantu batatu bari kunywa amata abahungu babiri n'umukobwa umwe, umukobwa yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, umuhungu yambaye umupira wa buresiyeri n'ingofero undi yambaye umupira w'umweru arishimye baranezerewe.

Ni umubyeyi wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umweru, ari mu nzu y'ubucuruzi bucururizwa mo ikinyobwa cy'amata, ari uruhande rw'imashini ikusanyiririzwa mo amata, ari kubuganiza amata mu kajerekani ngo ahereze abaje bamugana.

Amafaranga y'ibihugu bitandukanye. Amafaranga agira umumaro mu bihugu byinshi bitandukanye. Mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amafaranga ni ingenzi, kuko agirira akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni amadorari amafaranga akoreshwa mu bihugu byinshi kw'isi. Amafaranga ni ingenzi mu buzima bwa bantu kuko atuma abantu bahaha bakabaho, agura imyenda, agura imodoka, akora ibintu byinshi bitandukanye. Amafaranga ni ingenzi muri rubanda nyamwinshi.

Ni amafaranga y'amadolari, ni amafaranga akoreshwa mu bihugu byinshi ku isi, agira umumaro kuko atuma abantu bagura ibintu bakeneye, afitiye umumaro imbaga nyamwinshi.

Intebe n'ameza ni ibikoresho by'ingirakamaro cyane, bikozwe mu rubaho bikenerwa n'abantu benshi batandukanye, mu ngo z'abantu bisanzwe, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ameza ni igikoresho kiza gikoreshwa ahantu henshi hatandukanye, haba mu ngo z'abantu, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi henshi. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ameza n'utubati ni ibikoresho bikorwa mu rubaho kandi bikenerwa n'abantu benshi batandukanye. Mu ngo z'abantu, mu mashuri ndetse n'ahandi. Ni ingenzi mu buzima bw'abantu.

Ni intebe n'ameza. Ni ibikoresho byiza bikozwe mu rubaho. Intebe ni ingenzi kuko zifitiye abantu akamaro zikoreshwa ahantu henshi hatandukanye, mu ngo z'abantu, mu mahoteli, ku mashuri, ndetse n'ahandi. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni intebe zo kwicaraho zikozwe mu rubaho ndetse n'ibindi, zifitiye akamaro abato n'abakuru zikoreshwa mu ngo z'abantu, mu makwe ndetse no mu bindi bitandukanye, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

ni umuntu wicaye mu kazi uhuze, yambaye ikote ry'umukara ni'shati y'umweru, imbere ye afite mudasobwa, akazi ni ingenzi kuko kagirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni inzu nyinshi kandi ndende. inzu zifite umumaro abantu; inzu ababntu bazituramo, bazikoreramo, bazikoreramo ibintu byinshi bitandukanye. Inzu ni ingenzi zifiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi, icuruza ibintu bitandukanye by'imboga, hari abantu benshi bari kuza bayigana, abagabo n'abagore, inzu y'ubucuruzi ni ingenzi kuko idufasha kubona ibyo dukeneye mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu batatu: umugabo n'umugore n'umwana ufite gitari mu ntoki. Umugabo yambaye ishati ya buresiyeri, mama we yambaye ikanzu y'ubururu, umwana yambaye ikanzu y'amabara, ubarebye barishimye cyane, kandi baranezerewe.

N'abantu babiri, umwe yambaye umupira utukura undi yambaye uw'umuhondo bambaye n'amataburiya. Imbere yabo hari undi muntu urebye barishimye, kuvuga ibiganiro bari kuganira. Ibiganiro n'ingenzi bifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni inzu y'ubucuruzi bw'ibihangano ibihangano bifitiye umumaro abantu muri rusange habamo ibintu bitandukanye, imitako ibikoresho byo mu gikoni byo mu rugo ndetse n'ibindi n'ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abagore babiri, bambaye ibitambaro mu mutwe. Bari gucuruza amagi. Amagi ni ingenzi mu buzima bw'abantu. Bayakoresha mu bintu byinshi bitandukanye; mu ngo, mu birori, ndetse n'ibindi. Amagi ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

ni inzu yubucuruzi bw'amafi. Amafi afitiye akamaro kenshi abana n'abakuru, afite intungamubiri nyinshi, afitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Abacuruzi benshi cyane, bari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye, birimo imboga, intoryi, imiteja, ndetse n'ibindi. Imboga ni ingenzi zifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni abantu benshi batandukanye ndetse n'ibinyabiziga byinshi bari inyuma y'isoko, isoko ni igenzi kuko ribamo ibintu byinshi bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa n'ibindi byinshi rifitiye umumaro imbaga nyamwinshi

Isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye. Harimo inyanya, harimo ibitoki, ibitunguru, karoti, intoryi n'ibindi. Ririmo abantu benshi batandukanye. Ibiribwa ni ingenzi kuko bigirira umumaro imbaga nyamwinshi.

N'abantu benshi bari mu inzu y'ubucuruzi inzu y'ubucuruzi icurizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibihangano, imyenda, ibitenge ndetse n'ibindi byishi igirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bitandukanye, by'imyenda. Harimo ibitenge, amabara menshi: iby'icyatsi, iby'ubururu, iby'umuhondo, ndetse n'ibindi. Imyenda ni ingenzi ku igirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni icyapa kinini kiranga, kiriho ikirango cy'ikigo cya MTN. Ikigo cya MTN gikora ibintu byinshi bitandukanye: cyohererera abantu amafaranga, cyohereza ubutumwa bugufi ndetse n'ibindi. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi bari iruhande rw'akazu k'ikigo cya MTN bari kuza bakagana, ikigo cya MTN gikora ibintu byinshi bitandukanye kohereza abantu amafaranga ndetse n'ibindi, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni abantu benshi cyane bari mu kazi, bambaye imipira y'unuhondo. Hari n'abandi baje babagana. Urabona bahuze cyane kuko bahugiye mu kazi, bari gufasha abantu baje babagana. Akazi ni ingenzi, gafitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni abagabo babiri; umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umukara n'umweru. Umupira w'umuhondo, ari imbere ya mudasobwa, barahuze cyane kuko buri muntu ahugiye mu byo arimo kureba.

Emutiyene ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda hose. Cyashyizeho uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje imibare ariyo kode.

Ni abantu benshi bari munsi y'ihema ry'ikigo kitumanaho cya Airtel, bahagaze bategereje ko mugenzi wabo avaho. Barimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Airtel ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikorera mu Rwanda no hanze ya rwo, gifasha kohererezanya ubutumwa, guhamagarana, kohererezanya amafaranga mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Ni abantu bari guhaha kandi benshi. Hari n'uwo bari kwishyura ni umwana w'umukobwa wambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi. Bari kumwereka ubutumwa bugufi bwerekana ko bishyuye.

Ni kirango kinini cy'umuyoboro w'itumanaho wa mtn. Kiriho umumama w'umubyeyi mukuru n'umuhungu we. Umubyeyi n'umuhungu we baraseka baranezerewe kandi baraganira cyane.

Ni umugabo ari kwishyura akoresheje uburyo bwiza bw'itumanaho kandi ikoranabuhanga ku muyoboro wa Mtn akoresheje imibare ndetse singombwa gukoresha amafaranga.

Ni abantu benshi bari mu kigo k'ikoranabuhanga ry'itumanaho bamabye umupira w'umuhondo, umugore yambaye umupira w'umuhondo afite inweri ku mutwe, barahuze kuko bahugiye mu kazi k'ibyo barigukora.

Ni abanyeshuri barahagaze bari kuganira bambaye imyenda n'ikirango cy'ishuri. Bari mumutaka munini w'ikigo cya emutiyeni ndetse bambaye n'ibikapu mumugongo.

Ni umugabo usheshe akanguhe aranezerewe kandi araseka yambaye umupira w'umuhondo w'ikigo k'itumaho cya emutiyene, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, ari ku igare.

Ni abagore babiri umwe ahagaze ku inzu y'ubucuruzi y'ikigo cya eyateri, undi ahagaze ku inzu y'ubucuruzi y'ikigo cya emutiyene, akaba yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi nawe yambaye ipantaro y'amabara menshi n'umupira w'umukara.

Emutiyeni ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikorera mu Rwanda no hanze yarwo gifasha kohereza abantu ubutumwa mu buryo bwihuse guhamagarana no kohererezanya amafaranga mu buryo bworoshye.

Ni ikirango cy'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Gikorera mu Rwanda hose. Kigaragaza uburyo bwo kwishyura mu ikoranabuhanga ryihuse kandi byoroshye, ukoresheje ikarita.

Umunyamahanga w'umugabo ndetse n'abandi bagabo batatu iruhande rwe bari kumwereka uko umuyoboro wa MTN ukoreshwa, ikigo kiza gisakaye hano m'urwanda hose no kw'isi.

Ni abantu batanu, bahagaze ku kazu gatoya, k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Barimo igitsina gore n'igitsina gabo. Bategereje ko babafasha. Mu byo bakeneye.

N'abantu batatu, umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ubururu w'ikigo kishami rya MTN. Undi n'umuntu uri kwishyura wambaye ingofero y'amabara n'umupira w'umukara.

Ni abagabo babiri. Umwe yambaye ingofero y'umweru n'ishati y'ubururu. Ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo. Undi yambaye ishati y'igitenge ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye n'amadarubindi. Bahagaze mu kazu gato k'ikigo cya MTN.

Ni abantu benshi batandukanye bari ahantu hamwe biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bamwe bambaye imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'umuhondo, bakorera ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, abandi ni ababagannye ngo babafashe.

Ni ibirango bibiri kimwe kiriho telephone igendanwa, ikindi kiriho uburyo bwiza ikigo cy'itumanaho cya MTN cyazanye bwo kwishyuriraho ukoresheje ikoranabuhanga bidasaba amafaranga mu ntoki.

Umutaka ni igikoresho cyiza, gikoreshwa n'abato n'abakuru, cyifashishwa ahantu henshi hatandukanye, haba mu ngo z'abantu, mu mahoteli, mu nzira ndetse n'ahandi, ni igikoresho kigirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Umugabo ndetse n'umugore baraganira barikubazanya. Umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara. Umugore na we afite amafaranga mu ntoki ndetse yambaye ishati y'umukara. Bari mu kazu gato k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene.

Ni umugabo wambaye ipantaro y'ububruru n'umupira wa kacye. Afite ikoranabuhanga mu ntoki, arahuze cyane kuko arimo kureba mu ikoranabuhanga ibyo ari gukora.

Ni ikirango kinini kandi kigari, kiri mumabara y'umuhondo n'umweru, ndetse ni ikirango k'ikigo k'itumanaho cya Emutiyeni, kigaragaza aho bakorera ndetse n'ibyo bakora.

Ni umunyamahanga wambaye ishati nziza y'igitenge ndetse n'umukara, ari kuvugana n'umukozi ukora mu nzu y'ubucuruzi bw'itumanaho bwa airtel, ari kumubaza byinshi bigiye bitandukanye.

Ni abantu benshi bari ahantu hamwe hari umukozi w'ikigo cyitumamanaho cya emutiyeni wicaye wambaye umupira w'umweru nabadi benshi bamugaragiye bamubaza ibyo batumva.

Ni abantu batatu, umwe yambaye umupira w'umuhondo, asutse inweri, undi yambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'umweru, undi yamabye umupira utukura, bahugiye kuri telefone, urabona mbese bahuze.

Ni ikirango kinini kiri ku gikuta, ni ikirango kigaragaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje umuyoboro w'itumanaho wa MTN, ni uburyo bwiza bwo kwishyura bworoshye kandi bwihuta ndetse bw'ikoranabuhanga.

Mu isoko rinini kandi rigari, abantu ni urujya n'uruza, barahaha ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'imboga, intoryi, karoti, dodo, n'ibindi, ndetse bari guhahira muri rusange.

Ni umugabo wambaye umupira w'umuhondo, uri gukoresha mudasobwa. Undi yambaye umupira w'umukara, n'igikapu mu mugongo. Ari kumva neza ibyo amusobanurira.

Abagore babiri baraseka kandi baraganira , umwe yambaye umupira w'icyatsi undi yambaye umupira w'umutuku baraganira kandi barandika .

Aba bantu ni babiri, hari umugore usutse inweri z'umukara, yambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'ubururu, hari n'umugabo wambaye ingofero y'amabara, yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ikigina, bari kuganira, baraseka.

Ni ibikoresho bibiri by'ikoranabuhanga cyangwa se by'itumanaho, kimwe ugifite ari kwishyura mugenzi we akoresheje uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga budakenera ko umuntu akoresha amafaranga mu ntoki.

Ni akazu gato, k'ikigo k'itumanaho cya MTN, hahagaze abantu barenga umwe, bakeneye serivise z'icyo kigo, bambaye imipira y'umukara n'umweru ndetse n'amapantaro, bategereje ubwo bufasha cyangwa bakabakira.

Umugore aricaye ararangariye mugikoresho cy'itumanaho yambaye ishati yamabara y'umuhondo n'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'umweru yicayemukazu gato k'ikigo cyitumanaho cya emutiye ategereje abamugana ngo abafashe.

Ni umugore ufite umusatsi mukeya wambaye umupira w'umuhondo uri mu kazu k'ubucuruzi k'ikigo cya emutiyeni. Arahuze ategereje abaza bamugana, ngo abashe kubafasha.

Ni umunyamahanga ufite agaseke mu ntoki ari kumwe n'umuhungu uri gukora mu gaseke n'umudamu wagasatsi gakeya w'umupira w'ikigo cya MTN, mu by'ukuri ubarebye barishimye.

Ni ku ishami ry'umuyoboro w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene. Hari abantu benshi, ni urujya n'uruza, hari abakozi ba emutiyene ndetse n'abantu basanzwe bakeneye gufashwa.

Ni umugore araseka biragaragara ko anezerewe yambaye umwenda w'akazi ndetse n'umupira w'umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni.

Ni ikirango kigaragaza cyangwa se cyanditseho amagambo ya ishyura na MTN, ni uburyo bwiza bw'itumanaho bugezweho hano mu Rwanda, bukwemerera kwishyura ukoresheje igikoresho cyawe ngendanwa cyawe cya buri munsi.

Hari ikirango kinini, ndetse ni n'umukono, umukino ukorwa ndetse uri gutunganwa n'ikigo kinini cy'itumanaho cya emutiyene, hari n'abakozi bacyo barenga batatu, bambaye imipira y'imihondo y'icyo kigo, ndetse n'amapantaro y'umukara n'ingofero y'umukara.

Eyateri ni ikigo k'ikoranabuhanga gishinzwe gufasha abantu koherezanya amafanga, guhamagarana, kohereza ubutumwa bugufi mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Mu muhanda w'abanyamaguru harimo umuntu w'igitsina gore uri gutambuka wambaye inkweto z'umukara n'umweru, hari n'ibyatsi by'icyatsi ndetse n'akazu gatoya gakoreramo ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni.

Umuhanzikazi nyarwanda amazina ye ni Bwiza emelanse. Araririmbira abantu kandi baranezerewe. Yambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'ubururu.

Ni intoki z'umuntu uri kwishyura, akoresheje umuyoboro mwiza wa MTN, mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse, rukorera hose mu Rwanda ndetse no hanze yarwo.

Ni umugabo wambaye umupira w'amabara w'umukara wijimye ndetse n'umweru, afite amakayi ndetse ari gutekereza cyane, ari mu kazu k'ubucuruzi k'ikigo cy'itumanaho cya mtn.

Ni abantu benshi. Harimo abahagaze n'abicaye. Ni ibitsina byombi igitsina gore n'igitsina gabo, harimo abambaye amashati y'umweru ndetse bahagaze mu tuzu duto tw'ikigo cya emutiyene.

Inyanya ni ikiribwa cyiza gikoreshwa mu bintu bitandukanye, kigira intungamubiri nyinshi, gikoreshwa ahantu henshi mu makwe, mu mahoteli, mu birori ndetse n'ahandi, kigirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni abantu babiri bari kuganira harimo umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene wambaye umwambaro w'umweru, ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umweru ari gusobanurirwa n'umukozi w'ikigo cya emutiyene ibintu bigiye bitandukanye.

Ni abantu benshi, hari abahagaze hari n'abicaye bategereje gufashwa n'ikigo cya Airtel, ni ikigo cyiza gishinzwe gusakaza amakuru, ikoranabuhanga, ubutumwa, kohererezanya amafaranga n'ibindi.

Momo ni uburyo bukoreshwa n'ikigo cya emutiyene mu byerekeranye no koherezanya amafaranga hagati y'abantu n'abandi mu buryo bwihuse kandi bworoshye haba mu Rwanda no hanze yarwo.

Ni imashini ebyiri zishinzwe kwishyurirwaho n'abantu bafite ikarita ndetse hari n'ikirango k'itumanaho rya emutiyene.

Ni abantu benshi bari hamwe barimo umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara harimo n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu usutse inweri basa nk'abaganira ariko barahuze.

Ni abagabo babiri bari kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amadarubindi. Umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira w'icyatsi.

Abagabo babiri baraganira, kandi baranezerewe. Umwe yambaye umupira w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Bahuje urugwiro, baraganira ku buzima busanzwe.

Ni abantu benshi baraseka kandi baranezerewe hari uwambaye umupira w'icyatsi ndetse n'umuhondo n'ubururu, hakaba umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni, hakaba n'undi wambaye umupira w'ubururu ndetse ari kunywa icyo bita esansi.

Ni abantu benshi bari mu mutaka w'ikirango k'ikigo cya MTN, barangariye abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo bari gusuhuzanya bishimiranye cyane.

Ni umugabo muremure wambaye umupira w'umukara n'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara ahagaze ku kazu gato k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, akeneye gufashwa.

Ni abantu babiri, umukobwa n'umuhungu. Bahagaze iruhande rw'akazu k'ikirango cya MTN. Umuhungu yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi. Barishimye kandi baranezerewe.

Ni inzu ntoya yubatswe mu giti, harimo abantu batatu bambaye udupfukamunwa, ndetse harimo n'icupa ry'amazi manini, hakabaho n'imitako hanze yiyo nzu.

Ni abantu benshi. Harimo abambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umutuku ndetse bari gukorera munsi y'ihema ry'ikigo cy'itumanaho cya Airtel. Gikorera hano mu Rwanda mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ni umugore wambaye neza, yambaye ishati y'ubururu, n'ijipo y'igitenge. Ari gufunga akazu gatoya, k'ikigo cy'itumanaho, cya emutiyeni.

Umuntu ufite igikoresho gishinzwe gusakaza amajwi, amashusho ndetse n'inkuru, yambaye umupira w'umweru ndetse afite agakapu k'umukara.

Ni umugore n'umukobwa bambaye imipira y'imihondo. Umugore afite umusatsi ku mutwe, umukobwa asutse inwere, barishimye bishimiye abantu baza babagana ngo babafashe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari iruhande y'ameza. Hariho imipira y'umuhondo, ingofero z'umuhondo, by'ikigo cya Emutiyene.

Eyateri ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikorera mu Rwanda no hanze yarwo. Gifasha kohererezanya ubutumwa, guhamagarana no kohererezanya amafaranga ku buryo bwihuse kandi bworoshye.

Imbere y'ishami ry'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni haratambuka abantu b'ingeri zose, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu hakaba nundi wambaye ikabutura y'umweru akaba ateruye umwana mu ntoki ndetse n'abandi bagabo n'abagore bari kuganira.

Emutiyene ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikorera mu Rwanda no hanze yacyo, gifasha kohererezanya ubutumwa bugufi, guhamagarana, koherezanya amafaranga mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Ni ibirango byinshi, ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya MTN, ibirango bigaragaza uko umuntu yishyura akoresheje ikoranabuhanga, bitagombye gukenera ko uba ufite amafaranga mu ntoki.

Ni abagabo babiri, bambaye imipira w'umweru. N'abagore babiri; umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara. Abo bagabo babiri barimo barabyina. Urebye ubona bizihiwe.

Abantu bane bahagaze ku kazu gato k'inzu y'ubucuruzi y'ikigo cya Emutiyeni hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hakaba undi wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara ndetse n'abasore babiri bahagaze i ruhande rwabo, bari gushaka ko babafasha.

Ni ikinyabiziga k'itumanaho, iposita. Gishinzwe kugeza ubutumwa ku bantu mu Rwanda no mu mahanga. Gikoreshwa n'abantu benshi batandukanye, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Aha ni ku iposita, iposita ni ikigo gishinzwe kohereza ndetse no kohererezanya ibintu bitandukanye aho waba uherereye hose mu Rwanda ndetse no ku isi yarwo.

Ni abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'icyatsi, undi yambaye ishati y'umutuku n'umukara n'ipantaro yera, bari guhanahana ibyo bahashye.

Umugabo useka kandi aranezerewe yambaye umupira w'ubururu, ndeste n'ingofero z'ubururu. Afite agakarito gatogato mu ntoki, ari kukageza ku bakamutumye, neza kandi byihuse.

Vubavuba ni ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bahashye cyangwa batumye bakoresheje ikoranabuhanga bakabikugezaho aho waba uherereye hose mu Rwanda mu buryo bwihuse.

Umugabo uri ku kinyabiziga cy'amapine ane. Yambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro y'ubururu, ndetse afite igikarito kinini cyane cy'umutuku, inyuma kuri moto ye.

Hari isakoshi nziza iri mumabara y'umukara n'umweru wijimye. Ndetse hari n'ikoti ry'umukara ryiza rigaragaza ko guhaha byoroshye kandi bihendukiye buri wese.

Intoki ebyiri zifashe igikoresho kiza k'ingirakamaro cyane ku gitsina gore muri rusange. Igikoresho kifashishwa mu gihe igitsina gore kiri mu minsi yacyo cyangwa se byo bita imihango.

Ni abantu babiri. Ndetse ni abagabo. Umwe yambaye umwenda w'akazi, akaba yambaye n'ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'umweru. Undi yambaye agapfukamunwa, ishati y'umutuku n'umukara n'ipantaro y'ikigina. Ategereje guhabwa ibyo yaguze.

Burete ni ikiribwa cyiza gikozwe mu nyama ziseye, ifarini n'amavuta, umunyu n'ibitunguru, ni cyiza ku bana n'abakuru, gikoreshwa ahantu hatandukanye, mu birori no mu ngo z'abantu bisanzwe, ni ikiribwa kigira intungamubiri nyinshi zigirira akamaro imbaga nyamwinshi.

N'urutonde rw'ibiribwa bigiye bitandukanye byifashishwa mungo z'abantu harimo ifarini n'igitoki, inyanya, ibitunguru, amavuta, amafi, inkoko ndetse n'ibindi. Hariho n'ibiciro byabyo biboneka mu isoko ryo kwa Mironko.

Vuba vuba ni ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bahashye cyangwa batumye bakoresheje ikoranabuhanga, bakabikugezaho aho waba uherereye hose mu Rwanda mu buryo bwihuse.

Ni itike yo kwinjira mugitaramo ni igitaramo kiza kizabera m'urwanda, ni igitaramo kizaba kirimo abahanzi benshi batandukanye haba abo m'urwanda n'abaturutse hanze yarwo.

Vuba vuba ni ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bahashye cyangwa batumye, bakoresheje ikoranabuhanga. Bakabibagezaho, aho waba uherereye hose mu Rwanda mu buryo bwihuse.

Umugati urimo amashu, inyanya, inkoko ikaranze neza, ndetse n'ibirayi biciye mumavuta byitwa ifiriti, n'umuntu wambaye imyenda y'akazi uri kubitanga.

Abatwazi b'ibinyabiziga by'amapine abiri ni batanu bose bambaye umwenda w'akazi usa n'umutuku werurutse.

Vuba vuba ni ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bahashye cyangwa batumye mu buryo bwihuse, aho waba uherereye hose mu Rwanda hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ni inyubako nziza, iherereye ahantu heza, hari ibiti byiza, hari ibidukikije ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi, hari abantu benshi urujya n'uruza ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Ni umugabo aravuga, ari gusobanura ibintu bigiye bitandukanye, yambaye ishati y'umukara wijimye, ari gutekereza cyane kuko ari kazi ahuze.

Ni umutwazi w'ikinyabiziga cy'amapine abiri, yambaye umupira w'umuhondo, inyuma afite igikarito kinini kirimo amabara y'umutuku ukeye n'umuhondo.

Ni urutonde ruri mu gakapu keza k'ibara ry'ikigina, ni urutonde rw'ibiribwa ndetse byiza bifite intungamubiri nk'imineke, amashu n'ibindi byinshi nk'inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga by'amapine abiri, icyo bita amapikipiki. Bihetse ibikarito binini biriho nimero ndetse n'uruganda n'izina ryarwo n'icyo bikora.

Ni umugabo wambaye ishati y'icyatsi. Yo mu kigo cyitwa vuba vuba. Ni ikigo cyiza, gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bahashye cyangwa batumye. Mu buryo bwiza, bwizewe, bwihuse. Kandi bw'ikoranabuhanga.

Iposita ni ikigo k'itumanaho gishinzwe kugeza ku bantu ubutumwa bw'impapuro, imyenda ibiribwa, n'ibindi bintu gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni ikirango kigari, kiriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'icyo bikoreshwa, ni urubuga runini rushinzwe kugurisha ndetse no kugura ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ni urutonde runini ruriho ibintu bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo. Hariho imisatsi iyi bakora ndetse n'igiciro cyayo hakabaho n'imitako bambara ku matwi icyo bita amaherena ndetse n'ibiciro byabyo.

Umugabo arishimye. Araseka. Yicaye ku ipikipiki. Afite igikapu kinini kirimo ibicuruzwa. Agiye gutanga. Yambaye umupira w'umuhondo n'ibara ry'umutuku rikeya. N'ipantaro y'umukara.

Igitoki ni ikiribwa cyiza, gikunda gukoreshwa mu bintu bitandukanye, gitekwamwo ibintu bitandukanye, haba mu makwe, mu birori, mu bigo by'amashuri, mu ngo z'abantu bisanzwe, ni ikiribwa cyiza, gifite intungamubiri, kigirira imbaga nyamwinshi akamaro.

Umugabo wambaye amadarubindi n'ishati y'icyatsi n'ipantaro y'ubururu atwaye igare mu mugongo ahetse igikapu kinini kirimo ibyo bamutumye kuzana ku rubuga rwa vuba vuba.

Hari inzu y'ubucuruzi bucururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo hakaba n'isakoshi y'abadamu y'umukara nziza ndetse n'igiciro cyayo ku ruhande.

Umugabo arareba kandi arahagaze, ari gukuramo ikimurinda aba yambaye k'umutwe, yamabaye ishati y'umukara ndetse ari kwitegereza cyane, afite igisanduku cy'umutuku kinini.

Ni amapikipiki abiri manini ahetse ibicuruzwa biri mu bikarito binini, hari icy'umutuku n'umweru n'ikindi cy'umutuku wijimye n'umuhondo .

Imineke ni imbuto zikunda kuribwa n'abantu bose, abana n'abakuru, ikoreshwa mu mafunguro atandukanye, igira intungamubiri nyinshi.

Ni umutwazi w'ikinyabiziga cy'amapine ambiri. Yambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'umutuku werurutse. Akaba yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umweru.

Ni ubwoko bw'imboga nyinshi kandi z'ingirakamaro mu mibereho ya muntu. Harimo izo bita, inyanya, amakaroti, ibitunguru, amashu n'ibindi.

Ni ikinyabiziga cy'amapine abiri. Ndetse ibyo binyabiziga ni bine biriho abagabo bane batandukanya. Bafite ibikarito binini bikozwe mu cyuma. Birimo ibicuruzwa n'ibyo abantu batumye, bategereje kujya kubibashyira.

Ni inzu y'ubucuruzi, bw'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi. Irakinguye, itegereje kwinjirwamo nabaje babagana ngo babashe kubafasha, ibyo bakeneye.

Yego ni ikigo gishinzwe gufata abantu aho baba bahererereye hose mu gihugu. Kikabageza aho bashaka kugera, hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kigirira rubanda nyamwinshi akamaro.

Vuba vuba ni ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bahashye, n'ibyo batumye hakoreshejwe ikoranabuhanga, bakabikugezaho uherereye hose mu Rwanda mu buryo bwihuse.

Jibu ni uruganda rw'amazi mu buryo bwo kubikwa neza akamara igihe, bagira amato n'amanini agakoreshwa ahantu hatandukanye haba mu ngo z'abantu cyangwa ahahurira abantu benshi. Amazi ni ingenzi mu buzima bw'abato n'abakuze.

Ni abantu batatu baricaranye, abakobwa babiri n'umuhungu umwe, umukobwa umwe yambaye igitambaro mu mutwe n'umupira w'umuhondo, undi asutse inweri mu mutwe n'umupira w'ubururu, urabona bahiguye mu kazi.

Ni umutwazi w'ikinyabiziga cy'amapine abiri. Afite igikarito kinini inyuma. Cy'icyuma. Cy'uruganda rwa vuba vuba. Rushinzwe kugeza ku barutumye cyangwa abahashye, ibyo batumye cyangwa bahashye, mu masoko agiye atandukanye. Hano mu Rwanda.

Igitanda n'igikoresho cyiza gikoze m'urubaho, kigirira umumaro abato n'abakuru. abantu bakiryamaho bakaruhuka bandi bakacyicaraho, ndetse n'ibindi, n'ingenzi mumbaga nyamwishi.

N'imiryango imiryango! imiryango igira akamaro kenshi kunzu, imiryango ifite akamaro kenshi kuko abantu bayinjiriramo bakanayisohokeramo, imiryango n'ingenzi mumbaga nyamwishi.

Ni inzu igeretse, inzu ifitiye abantu akamaro kuko bayituramo, bayiraramo, bayiganiriramo inzu ikora ibintu byinshi, inzu ifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni inzu ndende igeretse inshuro nyinshi, uyirebye ni ndende pe! Inzu ni ingenzi kuko zidufasha mu bintu byinshi bitandukanye: harimo kuzibamo kuzikoreramo ndetse n'ibindi, inzu ni ingenzi ifitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi nini icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye imboga n'imbuto, imboga zfitiye umumaro abakuru n'abato, zifite intungamubiri nyinshi, zifitiye rubanda nyamwinshi akamaro.

Ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, by'imboga. Inyanya, amashu, karoti, ndetse n'ibindi. Zigirira umumaro abato n'abakuru. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo bintu byinshi bitandukanye, harimo abantu bashinzwe kwakira abantu baza babagana, hari n'abandi bari kuza babagana bareba ibyo bakeneye, ibicuruzwa ni ingenzi kuko bifitiye imbaga nyamwinshi akamaro.

Ni ibiti biteye ku muhanda. Ni ibiti bigirira umumaro abantu benshi batandukanye, abato n'abakuru, babyukamo izuba, bikora n'ibindi byinshi bitandukanye, ni ingenzi ku mbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi nini cyane icuruzaza ibintu byinshi bitandukanye, ibyo kurya ibyo kunywa ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibindi, ni ingenzi bifitiye akamaro imbaga nyamwinshi.

Ni urupapuro rw'ubwishingizi bwo kwivuza, ubwishingizi bwo kwivuza ni ingirakamaro bigirira akamaro ku bakuru n'abato, bukoreshwa ahantu hose mu gihugu cy'u Rwanda, ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu ndende igeretse irimo isoko. Isoko ni ingenzi kuko rifitiye abantu akamaro. Ribamo ibintu byisnhi abantu bakenera, ribamo ibyo kurya, ibikoresho byo murgo, ndetse n'ibindi isoko ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bitandukanye: imboga ndetse n'imbuto, imboga z'amoko yose n'imbuto z'amoko menshi, zigirira umumaro imbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubicuruzi icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye: Amasabune yo koga, ayo kumesa, impapuro z'isuku n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu benshi batandukanye, harimo abakira abantu bambaye imipira y'umuhondo n'abaza babagana barimo uwambaye ishati y'ubururu, banejejwe no kubakira, ibicuruzwa ni ingenzi kuko bifasha imbaga nyamwinshi.

Ni ububati burimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amavuta asigwa ku migati, abantu bari ku meza, harimo n'ibyo guteka mu bikoni by'abantu ni ingenzi mu mbaga nyamwinshi.